Mu gihe c'izuba ibihingwa byinshi birumaga. Ni yo mpamvu rero indabo zicucirwaga, kugira ngo zikomeze zitohe zigaragare neza. Iyo utazicuciye ubona zarumye, mbese zarabaye nk'inkwi.

Ibihingwa byinshi bikunze kwibasirwa n'uburwayi butandukanye iyo bikimera, cyane cyane nk'amababi yibasirwa n'urusimba, mu buryo bwo kwirinda usimba rero bateraga umuti kugira ngo utwo dusimba cyangwa se udukoko tuze gupfa. Umwe muri yo miti batera ni nka samukombe n'indi myinshi itandukanye yicaga udukoko.

Depo rusange y'amafumbire ni ahantu habikwa amafumbire amafumbire, amafumbire menshi cyane, aho aba agenti bacuruza amafumbire, bavaga kuyafatira barayabika, bakayabikira abaturage iyo akenewe amadepo atandukanye birya no mu gihugu barayagemurira, noneho nabo bakayashyira abaturage.

Ingemwe iyo zikiva mu butaka bazitera ,umuti uwo muti bawutera amababi kugira ngo urusimba rutayarya uri gutera umuti aba yambaye ga ,izo ga ziba zisa n'umweru cyangwa se n'irindi bara, kugira ngo intoki ze zitangirika.

Amafi aba mu mazi ,agira inyama ziryoshye cyane, inyama zayo ziba zisa n'umweru. Ifi itetse mu mavuta iba iryoshe cyane cyane mu mahoteli, nibo bakunze kuzitegura neza cyane ,bazishyira ku isahani bazikaranze ,bagakekeraho ibirungo byinshi bitandukanye: bashyiraho, seleri, bashyiraho, teyi, indimu ,ibitunguru kugira ngo ihumure neza.

Indagara n'ubwoko bw'udufi dutoya cyane, zikunze kwibera mu mazi, indagara kugira ngo bazibike igihe kirekire, bazishira mu mafirigo, aya mafirigo atuma zidapfa, ndetse zikagumana n'umwimerere wazo.

Ifunguro ryo muri hoteli riba riteguye neza cyane. Babaga bateguye ibintu byinshi bitandukanye, urugero nk'ifi, iyo bariguhaye haba haketse indimu, iruhande rwaryo hari inyanya, hari imbuto zitandukanye, ibitunguru, nbese ubona ari ifunguro ubona riteye ubwuzu.

Ifi ni inyama iryoha cyane iyo iteguye neza iba iryoshye kandi ikagira intungamubiri nyinshi. Mu mahoteli cyangwa se mu maresitora akomeye bazi gutegura ifi ku rwego rwo hejuru, bayikaraga mu mavuta igakabushwa, baba bateguyeho ibyo kurisha, imbuto zitandukanye nk'amaronji cyangwa se pome, bagashyiraho ibitunguru ,salade, ibiryo biba biryoshye cyane biteye amashyushyu.

Mu bishanga tuhasanga harameze ibyatsi. Iyo ari ibishanga binini cyane, kugira ngo abantu babashe kunyuramo bakoresha ubwato. Ibishanga bigira akamaro kuko babihingamo ,cyangwa se ayo mazi yabyo bakayabyaza umusaruro.

Hari amoko menshi y'amafi matoya dusanga mu migezi cyangwa se mu biyaga. Ubwoko bwa mbere haba harimo amahere, indagara, habaho n'ubundi bwoko bw'inshonzi.

Amafi agakunda kuba mu mazi agira inyama ziryoshye cyane iyo ushaka kuyateka neza ukuramo ariya mahwa yayo iyo wayakuyemo ubona ari inyama nziza cyane zisa n'umweruru ndetse zifite n'umuhore amafi agira isosi nziza ziryoshye.

Amafi n'ubwoko bw'inyama araryoha cyane, amafi akunda kwibera mu mazi cyangwa se mungezi no mu biyaga, amafi abamo amoko menshi:hari amahera, har'indagara, hari n'amafi manini, amafi manini rero agira amahwa, ayo mahwa rero iyo utazi kuyarya aragushinga, ni byiza rero kurya amafi uzi kuyarya.

Abarobyi b'amafi bagarobaga bari mu bwato .Babaga bafite imitego iziritseho inshundura. Ago amafi bagarobaga mu biyaga cyangwa se bakagaroba mu nyanja.

Indagara ni ubwoko bw'amafi matoya zikunze kwibera mu mazi. Indagara nazo zigiraga amoko atandukanye hari amaheri, hari inunda, hari n'indagara. Indagara na bwo baziteka ukwinshi hari abaziteka mu mavuta, hari n'abaziteka bazitogoshe. Indagara ziraryoha cyane zigira vitamini.

Abantu tugiraga ingendo nyinshi zitandukanye, hari ingendo zo mu kirere, mu muhanda no mu mazi. Ingendo zo mu mazi zo tugendagamo n'ubwato, ubwo bwato iyo buri kugenda bakoreshaga ingashi. Ingashi nizo bagashishaga abasare, kugirango ubwato bugende mu mazi.

Amafi agira amoko menshi atandukanye, hari amafi agira amahwa, hari n'amafi atagira amahwa. Amafi atagira amahwa araryoha cyane, kuko uyarya ari inyama gusa, nta mahwa arimo, araryoha agira n'isosi nziza cyane, iyo bayateguranye ubuhanga, bashyizemo ibitunguru, amavuta ndetse n'ibirungo bitandukanye.

Amafi ni inyama ziryohaga cane. Inyama z'amafi zibaga zisa n'umweru. Amafi gabaga cane cane mu mazi cangwa se mu nyanja. Amafi mo imbere gagiraga amahwa gagiraga n'imirizo ndetse gagiraga n'amagaragambya iyo batari bagaharura. Iyo bagiye guteka amafi habaga hari ibirungo byinshi bitandukanye: habaga hari inyanya, tungurusumu, puwavuro n'ibindi byinshi. Amafi gagiraga isosi iryoshe cane.

Isambaza ni bumwe mu bwoko bw'amafi matoya aba mu Kivu. Isambaza ziraryoha cyane, zigira isosi iryoshye kandi ndetse nta mahwa abamo, ziraryoha cyane.

Amafi akunda kuba mu mazi, ni inyama ziryoha cyane amafi agira amaso manini ndetse n'umunwa usongoye, agira n'amagaragamba iyo batari bayaharura, amafi agira amahwa mwo imbere ashinga abantu, cyakora araryoha cyane agira isos nziza iryoshye.

Igitari ni ahantu baba barateye intusi nyinshi cyane. izo ntusi zigira amoko menshi habaho intusi za mwotsi ndetse n'intusi zisanzwe. Izi ntusi zigira akamaro kenshi ngo zivamo inkwi zo gucana ndetse n'imishingizo yo gushingirira ikindi amababi yizi ntusi avura inkorora.

Umurima bamaze gusaruramo imyaka bakareka guhinga igihe kirekire guhitaga guhinduka ikirare. Ikirare gubaga ari umurima gukomeye cane mu kuguhinga ariko iyo bamaze ku kuguhinga bagateramo imyaka zireraga cane kubera ko guba gudaheruka guhingwamo.

Amajeri ni igihingwa cyera aho ariho hose, amajeri yera ahantu mu bihuru ntabwo bayabagara kuko iyo bayabagaye ashobora kugwagwana ntiyere neza. Amajera ahenshi baranayashingirira kuko arakurumba akagira n'amajosi maremare.

Mu ishyamba habaho gutema ibiti iyo byeze. Iyo bamaze kubitema hasigara ibitsitsi, ibyo bitsitsi iyo bimaze igihe hashibuka izindi ntusi. Izi ntusi zitaweho nazo zirakura zikavamo ibiti binini cyane.

Ibibonobono ni ibiti bikunda kumera mu murima, bigira akamaro kenshi, kuko amababi yabyo bayatwikiriza amasaka iyo bari kuyameza, ibiti byabyo babishingiriza ibishyimbo kugira ngo birandarandeho, ndetse hari n'ababikoramo imiti, kuko bivamo umuti uvura cyane.

Imihanda y'imigenderano , yo mu rusisiro iba ari imihanda y'ibitaka . Ariko iba ari imihanda inyurwamo n'abantu benshi, kuko iba iri hagati y'ingo, ihuza abantu bava hirya no hino. Iyi mihanda iyo yaraye tuyikoramo imiganda buri kuwa gatandatu kugira ngo ikomeze kuba imihanda myiza .

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyera gifite amafaranga. Ibirayi byerera amezi atatu cyangwa amezi ane. Ibirayi iyo bimaze kuhirwa bitegereza kwera. Ibirayi bigira amafaranga menshi kuko ku isoko ry'umurimo biba bifite agaciro. Abahinzi b'ibirayi babyitayeho cyane bareza umusaruro mwinshi.

Ibigori ni igihingwa cyungura cyane nk'ibigori bya buride birungura kuko birera bigira ibigori binini cyane. Ibigori iyo byatangiye guheka byazanye n'udusagi biba bisigaje kuma noneho bakabica bakabijyana mu rugo. Iyo byeze bitanga umusaruro ku buryo n'ubihinze abona inyungu.

Ikigorigori ni umurima babaga barahinze n'ibigori byamara kwera bakabisarura, iyo bamaze kubisarura bakabitema bagasigamo ibigorigori aho hantu tuhitaga ko ari mu kigorigori.

Insina zirera cyane iyo bazifumbiye cyangwa se iyo ziteye ahantu heza. Zera ibitoki cyane cyane iya ari insina z'incakara cyangwa se inudi. Bakunze kuzihinga inyuma y'urugo cyangwa se ahandi hantu hageze hasi hadahanamye.

Mu midugudu iwacu buri rugo uhasangaga akarima k'igikoni ni akarima gatoya kabaga gahinzemo imboga zitandukanye: ibitunguru ,dodo, betarave ,amasombe, rimwe na rimwe habaga harimo n'ibihingwa by'imbuto. Ni akarima rero gafashaga urugo kubona ibyo kurya mu buryo bwihuse.

Ikirare ni ahantu baba barasaruye imyaka noneho bakakireka kikarara, kirera cyane iyo bagihinze kubera ko kiba gifite ibyatsi babyazamo iyo fumbire, kirakomera kugihinga kubera ko kiba gikomeye.

Umubirizi ni igiti bakunze gutera, k' uruzitiro cyangwa se ku mbago y' imirima. Umubirizi urasharira cyane kuko ni icyatsi kiba gishaririye, kiba gisa n' icyatsi, umubirizi uranavura ni umuti ukomeye.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi buteye imbere cane rwose bugiraga n'amafaranga abahinzi b'ibirayi nubwo bavunikaga rwose ariko nabo babonaga umusaruro. Ibirayi bifite isoko kuko abenshi barabikundaga kubirya. Ibirayi bikunze kwera mu gace k'amajaruguru cane cane mu karere ka Musanze.

Ibidodoki ni imboga batera ku ruzitiro kugira ngo zirandarandeho. Ziba zitwaye nk'ibisusa kuko na byo birarandaranda. Izi mboga uko ari ebyiri, imboga z'ibidodoki n'iz'ibisusa ziraryoha cyane, kuko zeraho n'imbuto z'ibidodoki, na ho ibisusa ho heraho ibihaza.

Ku mashuri akenshi hari uturima tuba duhari, duhingwamo ibintu bitandukanye harimo nka karoti, amashu, kubera ko babyitabaza iyo bari gutekera abanyeshuri. Impande y'iyo mirima hakunze kuba hari n'imihanda ijya mu biturage aho abana banyura bagiye ku ishuri, hanyurwamo n'amagare kubera ko amagare ahantu hose ararahanyura.

Ibiti bivangwa n'imyaka ni ibiti kubibona biba bigoye kuko biba bikenewe n'abantu benshi. Ibi biti babitera impande y'umurima cyangwa se m'umurima hagati, nta byangizaga imyaka cyangwa se ngo zibyonone, kuko biba bigufi cyane ntabwo biba birebire ngo byangize.

Ku mbago z'imurima haba hari ibiti bitandukanye baba barahateye, iyo batabitemye birakura cyane bikaba birera. Ibyo biti nibyo begekaho ibishingirizo bavanye mu mirima cyangwa se bakegekaho ibigorigori batemyeho ibigori.

Ubuhinzi bw'imbuto bwo mu bwoko bw'amaranda ni bwiza cane burunguraga amaranda gagiraga akamaro ku muhinzi wagahinzi gareraga cane ndetse no ku isoko gagiraga abakiriya kuko baragakundaga gagiraga intungamubiri nyinshi.

Ibirayi ni igihingwa kiza cyane, kigira amafaranga. Ibirayi iyo byeze bigira uruyange rugiye kuma, iyo bitari byera biba bifite amababi atagitoshye, asa n'icyatsi, bigira amafaranga menshi cyane iyo byeze, kubera ko ku isoko barabikunda cyane.

Ipera ni urubuto ruryoha cyane, ryera risa n'icyatsi, ariko mo imbere riba risa n'umutuku, rifite n'utundi tubuto dutoya turimo. Ipera ri raryohera cyane iyo rimaze guhisha, ariko iyo riteze riba ririmo agashari.

Guhinga ni akazi kaba gakomeye cyane, abahinzi nabo bakora akazi ubona gasa nk'aho gakomeye, batera imbuto, zamara kwigira hejuru bakazibagara, kuko ziba zajemo ibyatsi, iyo bazibagaye nibwo zera neza, zigatanga umusaruro.

Idegede ni igihaza cyiza cyane kiryoha, idegede iyo ugisatuye imbere kiba gisa n'umuhondo gifite n'inzuzi, iki gihaza kiba cyumutse ubona kimeze nk'umutsima, kiraryoha cyane rero kuberako kiba ari idegede.

Intama ni itungo ryororerwa mu rugo, intama kuyorora biroroha cyane, intama ziroroka ndetse zigira n'umusaruro mwinshi, zigira n'inyama ziryoshye ndetse n'isosi imeze neza cyane, intama zirungura buri wese yayorora kuko ntabwo irushya.

Inkoko ni amatungo magufi yororoka cyane kandi atanga umusaruro, zibamo amoko abiri; habamo amasake ndetse n'inkokokazi. Isake iba ishinzwe gushonda inkokokazi ikazibyaza indi mishwi, inkokokazi nayo itera amagi ndetse ikanayaturaga.

Utunyana ni inka ziba zishimishije, ziba zimaze igihe zivutse ari uduka dutoya, utu duka baratuzirika kubera ko dukunda kwirukanka cyane, cyane cyane iyo turi gushaka za nyina ngo twonke.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni ubuhinzi bumaze gutera imbere cyane, butanga amafaranga. Ibishyimbo birunganira ku babihinze kuko birakenerwa cyane. Iyo bimaze guhingwa bikenera gushingirirwa kuko biba byanaze amajosi babishingiriza rero imishingirizo.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa kigira umusaruro mwinshi iyo cyitaweho cyane. Abahinzi barahinga bagatera, bamara gutera bakabagara, bamara kubagara ibigori byigiye hejuru, babitera umuti, bamara kubitera umuti bakabyuhira, bagategereza ko byera. Ibigori birera cyane.

Kokombure ni ubwoko bw'imboga zikunze gukoreshwa muri salade, ziba zisa n'icyatsi zifite forume nk'iy'ikijumba .Kokombure ni n'umuti ukomeye cyane ,naho ibidodoki na byo ni imboga ziryoha ,biba bisa n'icyatsi ,mo imbere iba ifite umutimatima ,na byo biraryoha cyane.

Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane cyungura. Iki gihingwa cyerera igihe gitoya kuko ni amezi atatu gusa. Hari amoko menshi y'ibijumba. Hari muguma, hari kamamanzi. Ibijumba by'umweru bigiraga amakakama menshi cyane ariko ni nako biryoha. iby'umutuku byo bigira amakakama makeya cyane.

Imyumbati ni igihingwa gihingwaga mu misozi. Imyumbati zigiraga amoko abiri; hari iziryohaga, hari n'izishariraga. Imyumbati zishariraga rero akunze kuzikoramo ubugari, iziryohaga zo zibaga ari imiribwa baraziryaga.

Mu gihugu cyacu hari imishinga myinshi yafashaga abaturage kubona imbuto biboroheye. Batubura izo mbuto noneho zamara kugera hejuru kugena ingemwe bakaziha abaturage bakaja kuzitera. Hari imbuto za avoka, ibinyomoro amapera ndetse n'imbuto z'amatunda.

Ubuhinzi bw'ahantu hahanamye cyangwa se mu misozi bahinga hagati basigamo umwanya aribyo bita amatarasi. Iyo yabahinze gutya imvura ikagwa cyangwa se isuri igatemba ,ntabwo igera mu murima ngo itwara ubutaka, kuko ya mazi ahera muri bya byobo baba bacukuye mo hagati.

Ubuhinzi bw'ibisheke ni ubuhinzi bwiza cane bwunguraga iyo ibisheke byeze neza bigiraga umusaruro mwinshi. Hari ubwoko bw'ibisheke byinshi habagaho iby'umutuku, n'iby'icatsi iby'umutuku biraryohaga cane kurusha iby'icatsi.

Ibirayi iyo bimaze kwegera hejuru babitera umuti kugira ngo amababi amere neza kandi n'iibiyi byere neza. Abatera umuti baba babiteresha ipombo. Ipombo ijamo ikidoro c'amazi. Iyi pombo ikoreshwaga bari gucucira umuti iba ifite uduhombo dushinzwe gusohora umuti.

Abacuruzi bacuruza imbuto n'ibiribwa babaga bafite ibicuruzwa bitandukanye karoti, inyanya ibitunguru imboga za dodo, amashu ndetse na puwavuro, seleri ibiriganya shufureri ni byinshi baba bafite bijyanye n'imboga.

Hirya no hino bagiye bahuza ubutaka cyangwa se nk'ibyitwa udusozi ndatwa, ni ahantu bagiye bahuza ubutaka bakahashyira igihingwa kimwe nk'ibigori, usanga aho babihinze biba biboneye cyane, cyane cyane nk'iyo babibagaye usanga bigaragara neza n'iyo byeze bitanga umusaruro.

Igihingwa cy'ibigori iyo bagiye kubibagara babibagaza ifumbire. Iyo fumbire ni ifumbire mvaruganda yitwa Ire. Abagiye kubibagaza iyo fumbire baba bambaye udupfukamunwa tubarinda ko iyo fumbire yabangiriza.

Amaranda ni zimwe mu mbuto ziryoha cyane, kandi zifite intungamubiri, iyo asa n'icyatsi aba atari yera, iyo asa n'umuhondo cyangwa se umutuku aba yeze cyane ku buryo wayarya, mo imbere aba afite utubuto twinshi cyane, ndetse afite n'ibara ry'umuhondo.

Mu buhumbikiro bw'ngemwe zitandukanye, haba hari inyubako baba barashyizemo. Bashinga ibiti noneho hejuru bagasakaza amahema, ibi bituma imbuto zitagira ikibazo iyo imvura iguye. Cyangwa se iyo izuba ribaye ryinshi, ntabwo byangiza imbuto ziri mu buhumbikiro.

Inanasi ni ubwoko bw'imbuto buryoha cyane ziba zifite amazi aryohereye kandi menshi ikunda kwera ahantu hashyuha nko mu misozi. Inanasi iyo zidahase ziryana ku munwa kuko ziteza ubwinyo, inanasi ni nziza cyane kuko zifite intungamubiri.

Abahinzi b'ibirayi barunguka cyane. Igihingwa cy'ibirayi kirakunzwe hirya no hino. Kirungura kuko kirera ariko bisaba kubihinga uzi kubyitaho, kuko ni ho hava umusaruro. Bakunze kuba bambaye udupfukamunwa kubera ko batera umuti kenshi kugira ngo utaza kubangiriza.

Abacuruzi bacuruza imboga zitandukanye， baba bafitemo n'inyanya. Inyanya rero bazicuruza bazitanditse ku mifungo， baba bafite uko umufungo bari kuwugurisha， bitewe n'ingano yawo. Abacuruzi b'inyanya， zimwe bazishyiraga mu mabase kugira ngo zitaza kwangirika， izindi bakazisuka hasi kugira ngo zitaza kwangirika nazo.

Mu gice cy'amajyaruguru ni intara ikunze kweramo ibirayi cyane. Ibirayi iyo bamaze kubitera hashira igihe barabibagara, bamara kubibagara bakabyuhirira. Iyo bari kubyuhirira baba bari kubiha itaka kugira ngo bizabone aho bishorera. Ibirayi ni byiza cyane. Iyo wabyitayeho ukabitera umuti uko bikwiye birera bigatanga amafaranga.

Imyembe ni ubuhinzi bwungura. Abahinzi b'imyembe bagira amafaranga kubera ko zikundwa cyane. Ni igiti kiba kimeze nk'avoka cyeraho urubuto rw'umwembe. Iyo imyenda itari yera, iba isa n'icyatsi. Iyo yeze iba isa n'umutuku. Imyembe irakundwa kubera ko ikorwamo n'umutobe.

Ibishimbo byeze bitari byuma barabisaruraga, bakabijana mu rugo, bakabitonora ari byo twita intonore. Ziraryohaga cane kuko iyo wazitetse ukagerekaho ibirayi, zibaga ziryoshe cane kuko zigiraga n'intungamubiri nyinshi.

Ibigori iyo byazanye udusagi, biba bigiye kwera. Iyo bimaze kuzana udusagi, biba bifite n'imiheko. Iyo miheko rero bategereza igihe kingana n'amezi nk'abiri, kugira ngo bibe byeza. Iyo byeze barabica, bakabisarura, bakabirya.

Amapera ni gamwe mu mbuto twese dukunze kurya. Amapera gagiraga amoko abiri. Hari ag'umweru, hari n'ag'umutuku. Amapera mu nda yaho haba harimo utubuto twinshi, twinshi cyane. Tumwe tubaga dusa n'umutuku, utundi n'umweru. Amapera ni meza cane gararyohaga.

Imyembe ni igihingwa gikomeye cyane kiba cyitwaye nk'avoka. Kigira uruti rumeze nk'avoka. Amababi asa nk'ayavoka ndetse n'imbuto zacyo wabona zigiye kwitwara nk'avoka. Imyembe iraryoha cyane. Imbere iba ifite ikibuto kinini cyane. Iyo ihiye neza ubona ifite amasukari iryoshye cyane.

Igihingwa cy'ibigori iyo bagiye kugitera bagiteresha ifumbire mvaruganda, bakavangamo n'andi mafumbire. N'iyo bamaze kubagara buhirisha ire ifasha ibigori kwera neza, kuko ni ifumbire yabyo. Iyo bari gutera uwo muti cyangwa se bari gushyiraho iyo fumbire ya ire, abahinzi bagomba kuba bambaye udupfukamunwa, kugira ngo ifumbire itabangiriza.

Akenshi igitoki iyo cabaga ceze cane gifite amabere manini ari kirekire, gifite ibiro, bagitegeshaga inkingi zirenze itatu cangwa se enye kugira ngo kitaza kugwa hasi kubera kibaga gifite ibiro byinshi.

Abacuruzi bacuruza ibirayi bakunze kuba bitandikiye mu mifuka, bagira ibirayi by'amoko ikininigi, ikirundo, gikonko. Buri wese ushaka ibirayi araza akakareba agapimisha ibyo ashaka.

Mu masoko dusangamo imodoka zipakira imizigo myinshi. Ziba zifite imizigo itandukanye, hari iziba zazanye ibitoki zibikuye hirya no hino zibizanye mu masoko. Ibitoki biragurwa cyane kuko byera ahanini ahantu hashyuha, nk'i Kibungo cyangwa se mu Karere ka Kirehe.

Imyembe ni imbuto zerara ku giti kiba kigari , kirekire , kiba kimeze nka avoka . Imyembe iyo itari yera iba isa n'icyatsi , iyo yeze izana akabara k'umutuku . Umwembe ugira urubuto runini mo imbere , kandi iyo uhiye uba usa n'umuhondo.

Ibihingwa byose ntabwo ariko bishobora kwihanganira kwerera ahantu hari amazi cyangwa se mu ibishanga. Hari ibihingwa rero byagenewe guhingwa ahantu hari amazi cyangwa se h'ibishanga. Nk'umuceri rwose wihanganiraga ibishanga ndetse ni naho wera honyine. N'amateke na yo yahingwa mu bishanga.

Amateke ni ikiribwa cyangwa se igihingwa cyerera amezi arindwi, amateke araryoha cyane ariko na yo afite amoko menshi hari amabwayisi, hari n'amatake y'amanyarwanda, hari n'amabungu. Yose araryoha agira ibibabi binini birekaho amazi, amababi y'amateke na yo araribwa.

Imishwi ni udukoko dutoya cyane tuba twaraturazwe mu magi. Iyo nkoko imaze kurarira amagi, igera igihe igaturaga. Iyo imaze guturaga, ivanamo udushwi. Tuba ari udukoko tuba ari dutoya, tuba dusa n'ibara rimwe, cyane cyane nk'umweru, tugira amaso y'umukara, ndetse n'utunwa tw'umweru. Turashimisha, cyane udushwi, cyane cyane iyo utwitayeho tubaho.

Inyanya ziri mu bihingwa bikomeye cyane kandi bikenerwa ku isoko cyane, inyanya zirungura iyo wazitayeho neza, inyanya iyo zimaze gutukura cyangwa se iyo zamaze kuzana imbuto barazisasira, izo mbuto z'icyatsi iyo zatukuye batangira gusarura, izo zitukuye bakazishyira aho zigomba kuba ziri, inyanya zishyirwa mu dusanduku twabugenewe, kugira ngo zitaza kwangirika.

Ikawa ni igihingwa kigira amafaranga cyane barazisasira kugira ngo zibashe kwera neza. Iyo zisa n'icyatsi ziba zikiri ibitunda, zaba zisa n'umutuku zikaba zeze bakazisarura.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bigusaba gukurikirana neza kandi witonze, iyo wabihinze bigusaba guhora uza gusura umurima, kugira ngo urebe ko nta byonnyi cyangwa se shokongwa zaba zageze mu murima wawe. Iyo uzisanzemo utera umuti kugira ngo ibigori bikure neza.

Ibisheke bigira akamaro kenshi cyane. Ibisheke bigira amazi aryoshye, babikoragamo isukari; ibisheke ni n' umuti, iyo byeze rwose biraryoha bigira n' ingingo ndende kandi zibyibushe.

Intoryi ni ubwoko bw'imboga buryoha cyane. Intoryi zigiye kwitwara nk'igihingwa cyitwa intobo. Zigera imbuto mo imbere, utubuto dutoya cyane kandi intoryi iyo zeze ari nziza ziba zisa n'icyatsi, iyo zatukuye ziba zimaze igihe zisoromwe. Intoryi rero ni imboga nziza cyane zigira isosi iryoshye.

Imyumbati ni igihingwa cyera cyane. Gikunze guhingwa cyane mu misozi. Imyumbati iba yitwaye nk'isombe, amababi yazo. Iraryoha cyane iyo yereye ahantu heza. Ariko bitewe n'ubutaka hari isharira. Iyongiyo isharira yo barayinika mu mazi, kugira ubwo busharire buvemo.

Indimu ni ubwoko bw'imbuto ariko zo ziba zitandukanye n'izindi mbuto zirasharira, zera ku giti kirekire kiba gifite amashami mato ndetse n'amababi mato. Indimu ziravura zivura inkorora ndetse na biriya bishishwa by'inyuma iyo babishyize mu maraso amazi yazo biravura.

Inkwavu ni ubworozi bwiza cyane bugira amafaranga. Inkwavu zirororoķa cyane kuko zibyara mu gihe gitoya. Inkwavu rero zigira amoko menshi. Haba inkwavu z'umweru, inkwavu z'umukara, inkwavu zirimo amabara ndetse n'ibisuwisi. Inkwavu zigira inyama ziryoshye ndetse ubona ari utunyamaswa cyangwa se itungo rigufiya ryiza cyane.

Ubuhinzi bw'ibisheke busigaye bwarateye imbere cane. Mbere buri wese yahingaga ibisheke inyuma y'urugo agahinda kimwe kimwe, ariko ubu ngubu byabaye kinyamwuga, umuhinzi asigaye ahinga umurima w'ibisheke akawugemura ku ruganda, bakawubyazamo isukari ndetse bikanaribwa.

Igihingwa cy'ibijumba, ni igihingwa cyiza cyane kuko cyera vuba. Ibijumba bikunze kwera mu gice cy'imisozi. Ni imigozi batera hanyuma y'imigozi ikaza kuvaho ibijumba. Ibijumba babikurisha isuka kuko intoki ntizashobora kubikura.

Kuri ubu ng'ubu ikoranabuhanga risigaye rifite ingufu zikomeye, ubu nta muturage udakoresha telefone. Telefone ubu ng'ubu zigezweho ni simatifoni cyangwa se telefoni za gatushi. Simatifone rero na zo zagerageje kugera mu baturage ari nyinshi, ubu nta muturage udakoresha ikoranabuhanga.

Mu isoko ry'ibiribwa ndetse n'isoko ricuruza ibijyanye n'imboga, dusangamo imboga nyinshi zitandukanye, cyane cyane nk'amashu. Amashu ni imboga z'icyatsi ziryoha, zerera hasi. Zigira ibibabi byinshi, ndetse n'iyo zeze ubona zigaye. Amashu araryo cyane, kuko igihe icyo ari cyo cyose wayarya, ndetse wanayateka.

Inzuzi ni utubuto bakura mu bihaza. Tuba twibereye mu bihaza bakadukuramo, bagatwanika, bakadukoresha ibintu byinshi bitandukanye. Hari abaturya dukaranze, hari abadusheshamo ifu.

Igihwagari ni igihingwa cyiza cyane, kivamo ibintu byinshi bitandukanye. Igihwagari iyo kigiye kwera kiba gisa n'umuhondo. Cyakwera imbuto zigasa n'umukara. Igihwagari bagikuramo amavuta kandi ni n'umuti ukomeye cyane, ku bantu barwaye indwara zikomeye.

Hari ingemwe nyinshi ziba zitandukanye zirimo amashu, amatunda, ibihumyo, ibihwagari. Ingemwe zibaho ni nyinshi gusa barazigemura bakazijyana mu murima bakazitera zikamo imbuto zikera zikera cyane.

Mu gihugu cacu dufite ubuhinzi ngandurabukungu bwinshi butandukanye, hari ubuhinzi bwa soya. Ubuhinzi bwa soya n'ubuhinzi bwunguraga ku muhinzi wabuhinze akabwitaho neza. Soya iyo zeze zigiraga amafaranga ndetse zibaga zifite n'abakiriya benshi bazishaka. Soya impamvu zikunzwe nuko zigiraga intungamubiri zitandukanye.

ibishimbo by'umushingiriro bigiraga amoko menshi. Hari ibishimbo byitwaga mutiki, ibishimbo bigiraga amabara g'umweru gavanze n'ag'umutuku. Ibi bishimbo iyo ubitetse bigira amarongorwa g'umutuku biraryohaga cane.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane. Iyo twabisaruye turabihura, twamara kubihura tukabigosora; tubigosorera mu ntara kugira ngo ize kubishungura neza, bikomeze bise neza cyane, tubone n'uko tubibika bifite isuku nyinshi.

Amasaka iyo gamaze kwera baragatemaga bakagasarura, iyo bashaka kugabika gadahuye baragakusanyaga, bakamera nk'abagahunitse ari amahundo, noneho bakaganika gakumira hanze cangwa se bakagashira mu nzu mu kigega, kugira ngo gataza kwangirika.

Imifuka ya seke, ni imifuka bashyiramo imyaka itandukanye. Iyi mifuka ipakira ibintu byinshi, kubera ko umwe iyo wuzuye upima ibiro ijana. Bashyiramo ibigori, ingano, amasaka ndetse n'yindi myaka itandukanye.

Amajeri ni ikinyamisogwe kiryoha cyane, amajeri yera asa n'icyatsi iyo anaze ijosi aba agiye kuyanga, ayanga uruyange rw'umweru ndetse n'akabara k'isine, iyo yeze agakura aba agiye gusa n'umuhondo, yaba atonoye ari urunyogwe aba aryoshye cyane kandi afite intungamubiri.

Ubunyobwa ni igihingwa gihingwa ahantu hashyuha cyane cyane nko mu majyepfo. Ubunyobwa bwerera hasi ntabwo bwerera hejuru, iyo bamaze kubusarura habaho igikorwa cyo kubutonora. Iyo babutonoye barabwanika bwakuma bakabujyana kubushesha hakavamo ifu y'ubunyobwa cyangwa se bakanabukaranga bakaburya ari bubisi.

Hari ubwoko bwinshi bw'ibishyimbo. Hari ibishyimbo by'umweru birimo utubara bita mutiki, hari ibishyimbo by'umutuku, hari ibishyimbo by'umuhondo, hari ibishyimbo by'umukara, hari n'ibishyimbo bigiye kugira utubara tw'ubururu, ariko bitari ubururu neza, ibyo byose ni amoko y'ibishyimbo by'umushingiriro.

Kugosora n'ibintu bikorwa iyo imyaka imaze gusarurwa, bamara kuyihura bayishyira ku ntara bakayigosora, iki gikoresho cyitwa intara gikorwa mu migwegwe baboha ndetse bagihomesha amase kugira ngo kitaza gupfumuka.

Amakoma ni imyaka yera ku masaka. Ni amasaka basarura bakayahura ,iyo bamaze kuyahura havamo amakoma. Amakoma bayakoresha ibintu byinshi. Barayashesha bakavanamo ifu bakayishigishamo igikoma cyangwa se bakayinika bakayavanamo ifu bagashigisha ibigage cyangwa se ubushera.

Amasaka ni igihingwa ciza cane, gikunzwe guhinga no mu gice c'amajaruguru. Amasaka iyo gagatangiye gusa n'icatsi cyangwa ari ibitete gabaga gagiye gusa n'umutuku, gagiye kwera. Iyo gamaze kwera gatukuye, baragatemaga, bakagasarura, bakagajana mu rugo, bakaganika, noneho bakaza kugahura, bakagabika ari amakoma.

Abacuruzi b'imyaka babaga bafite ibintu byinshi bitandukanye, babaga bafite ibishimbo, ibigori, amasaka n'ibindi... Ibishimbo babaga bafite babaga bafite umushingiriro, ibigufiya, ndetse biba bifite n'amabara atandukanye, habagaho iby'umutuku, iby'umweru, ibivangavanze n'amabara yose.

Amajeri y'udusate ubwoko bw'amajeri babaga barumishije bakadutunganya bakayatonora bakayagira amajeri aryoha cyane. Ayo majeri iyo atetse arafufuka cyane ,kandi aba aryoshe akoraga isosi nziza cyane .

Ubuhinzi bw'ibigori busigaye bwarateye imbere cane, aho abahinzi bahinga ibigori umusaruro wabo bakawukusanyiriza hamwe bakawushira mu ikusanyirizo ry'ibigori ,aha ngaha buri muturage wese wejeje ibigori byinshi niho aza akabishira, akaba ariho abariza umusaruro we.

Abahinzi b'amasaka bari kugenzura k'amasaka gabo bahinze ko geze, harimo amasaka gakiri g'icatsi, harimo n'ag'umutuku, mbese bategereje ko gakwera noneho bakagatema.

Ingano ni igihingwa kera cyane, ingano aho zakunze zirahera neza, ingano barazisarura bakazihura bamara kuzihura bakazigosora, bakazipakira mu mifuka bakazibika, cyangwa se bakazijyana kuzigurisha zikavamo amafaranga.

Amajaruguru ni intara ikunze guhinga cane igihingwa c'amasaka. Amasaka ni igihingwa ciza cane. Iyo amasaka atangiye gupfundura azanaga amahundo g'icatsi. Hashira igihe ayo mahundo akaba umutuku. Ago mahundo rero, gabaga gagiye kwera. Iyo gamaze kwera gumye baragasaruraga bakakajana mu rugo.

Ibigori bibamo amoko menshi, hari ibigori bya iburide, hari n'ibigori bya marizori. Marizori ni ibigori byera bifite amatoni, biba bisa n'umutuku uvanze n'umukara, umweru uvanzemo ubururu cyangwa se n'isine. Ubu bwoko bw'ibigori bya marizori buraryoha.

Ingano ni igihingwa cyera iyo bacyitayeho. Kigira amafaranga menshi kubera ko ingano zirakenerwa cyane. Ingano ni igihingwa kigiye kwitwara nk'umuceri. Iyo cyeze ubonaga gifite udusagi tw'umuhondo muri utwo dusage haba harimo ingano. Barazigesa rero iyo zeze, bakazijyana mu rugo bakazihura, hakavamo ingano.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bwiza cane iyo woroye inkokokazi, amasake ubona umusaruro mwinshi utandukanye. Inkoko kazi zigiraga amagi, tukagarya naho amasake, iyogorowe neza gavagamo inyama.

Inka ni itungo rikomeye cyane kandi inka isobanuye ibintu byinshi. Mu rwanda, abantu benshi bakunze korora inka kuko zitanga umusaruro mwinshi, ziduha: amata, inyama ndetse n'ifumbire. Inka iyo zibyaye rero zibyara utunyana; utwo tunyana badutera inshinge kugira ngo baturinde kurwaragurika.

Amagi ni ikiribwa kigira intungamubiri nyinshi cyane. Amagi ni inkoko ziyatera . Amagi arimo amoko abiri ;hari amagi y'amanyarwanda n'amagi y'amazungu . Amagi bayabika mu mu itureyi kugira ngo ataza kumeneka.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi butanga umusaruro mwinshi. Inkoko ziduha amagi ndetse ziduha n'inyama, zitanga n'amafaranga menshi cyane. Abantu borora inkoko bareba ahantu bazishyira nko mu nzu runaka, ndetse bakazishakira n'amatara.

Inka zigira abavuzi bazo bazikurikirana aribo twita abaveterineri, ni abantu baba barigiye ubuvuzi bw'inka bazitera inshinge, bakaziha ibinini. Aba bavuzi bazivura bambaye ga ndetse baba bambaye n'umwambaro w'umweru nk'itaburiya, igaragazako ari abaganga.

Ingurube ni itungo ryororerwa mu kiraro. Ibyo biraro by'ingurube biba bikikijwe n'imbaho. Hasi ababishatse barahapavuma, bashira sima. Ingurube ni itungo ryiza cyane, ryororoka vuba, kandi rigira n'amafaranga. Ingurube imaze kubwagura igira umusaruro mwinshi, kuko ibwagura ibyana byinshi cyane.

Ingurube ni ubworozi butanga amafaranga. Ingurube iyo wazoroye zirakungura cyane kuko zirakenerwa. Hari abazibaga mo akabenzi ndetse zigira n'ifumbire ku bantu bahinga. Ifumbire yazo yeza cyane. Ingurube nziza kuzifashe neza kandi akamenya kuzorora.

Inka ni ubworozi bwiza cyane butanga amafaranga. Inka zitanga ifumbire, amata, inyama, n'ibindi byinshi. Iyo zirwaye rero, hari abaveterineri cyangwa se abaganga b'inka bashinzwe kuzivura. Baba barabyigiye, bazitera inshinge, ndetse bakaziha n'imiti itandukanye. Baba bambaye ibisurureti na bote.

Inyoni nu bwoko bw'inyamaswa zigurukaga ni inyamaswa zibaga mu gasozi zikunze kwibera mu biti ninamwo zarikaga zibaga zifitemo ibyari ninamwo zicumbikaga inyoni zikunda kujwigira mu gitondo kare cyane zibyutsaga n'abantu.

Umusambi ni ubwoko bw'inyoni buguruka. Bugira amaguru maremare, ndetse n'amababa manini. Uba ugiye gusa n'umweru, harimo n'akabara k'umukara. urasakuza cyane nk'iyo ubonye ikintu ushaka. Iba mu ishyamba ni ho yibera mu biti.

Inyoni zigira amoko menshi cyane zigira n'amabara atandukanye, hari inyoni ziba zisa n'umutuku cyangwa se ziba zisa n'umukara, inyoni z'umukara zigira amaguru maremare y'umutuku umunwa muremure usa n'icyatsi, n'amaso y'umutuku. izi nyoni zibera mu ishyamba.

Ingurube zigira amoko abiri. Hari iziba mu gasozi, n'izororerwa mu rugo. Iziba mu gasozi ziraryana ugereranyije n'izororerwa mu rugo. Ziba zifite umunwa muremure utwiho twahezeyo, n'ubwoya ubona busa nk'uburyamye.

Akanyamasyo kagira urukonoshwa rugitwikiriye rubaga rukomeye, gafite ibyana bwinshi buri no mu byatsi bw'icyatsi, kabaranyanyagiye cane, butegereje ko nyina iva mu gikonoshwa ikabwitaho.

Umusambi gubaga ari muremure, gugiraga amaguru maremare n'amababa, habagaho imisambi z'amoko atandukanye habagaho izisa n'umukara, izisa n'umwerimu urimo n'amabara. Imisambi zikundaga kwibera mu gasozi.

Izi nyoni zikunda kujya ku byatsi biba bifite indabo, izo ndabo zimwe na zimwe ziba ziri kuryoherera, kuko ziba ziri gushakamo uwo mutobe uri kuryoherera, inyoni nyinshi iyo zimaze kuhava ziraguruka zikajya gushaka ahandi zijya gushaka ibyo kurya.

Inyoni zibamo amoko menshi, hari inuma nayo iba murayo moko, n'akanyoni ubona gatuje gafite utwiso tw'umukara, ikaba ifite amababa agiye kuba nk'umweru, amaguru agiye gusa n'umweru n'umunwa ugiye gusa n'umweru, inuma iraguguza ndetse abenshi baranayirya kuko ngo iraryoha.

Umusambi ni ubwoko bw'inyoni bwibera mu gasozi ugira amaguru maremare, ugira n'amababa ijosi rirerire ndetse n'urunwa rurerure umusambi iyo ushonje uraguguza ese urabira umusambi ntabwo bwo bawurya ni inyoni itaribwa.

Inuma ni kimwe mu biguruka biri mu bwoko bw'inyoni. Inuma zikunze kwibera mu biti birebire cyane urusaku rwayo rwumvikanaga iyo irimo kubuguza. Inuma benshi bakunze kuzirya kuko ngo zigiraga inyama ziryohaga cane.

Imbogo ni inyamaswa nini cyane izi kwiruka cyane. Igira amahembe magufiya yihese. Imbogo ntabwo irya inyama ahubwo irya ibyatsi. Ziba mu ishyamba, ni ho zituye, ndetse imbogo baranazirya ziraryoha.

Ishamba ribagamo inyamaswa nyinshi zitandukanye izo nyamaswa twavugamo: impara, imvubu, imparage, imbogo ,intare, ingagi n'izindi nyinshi zitandukanye, izi nyamaswa habagamo iziryaga inyama ndetse n'iziryaga ibyatsi.

Ihuku ni ubwoko bw'inyamaswa zibaga mu rugo. Abenshi bazitungaga mu mago yabo kugira ngo zirinde urugo. Iyo habonetse imbeba mu nzu ihuku ibashaga kuzirwanya ikazica. Ihuku zirakundwaga cane kuko zigiraga akamaro mu mago y'abantu.

Iyo utembereye mu birunga, mu mashyamba cyangwa se mu Kagera, uhasanga inyamaswa nyinshi zitandukanye. Izi nyamaswa ziba ziteye ubwoba, kuko ubona zifite uburakari cyangwa se ziteye inkeke. Harimo nk'impara, imparage, imbogo, isha, izi nyamaswa ziba ziteye ubwoba cyane.

Amahuku ni udusimba twitwara nk'udukwavu, ni agasimba ubona gafite mu maso hasa nk'aho ari hagari, gafite n'amaso agiye kuba nk'umuhondo. Amahuku abenshi bayatunga mu ngo zabo, ngo kuko arinda urugo neza.

Hari amoko menshi y'inyoni atandukanye. Inyoni zikunda kwibera mu biti ndetse no mu mashyamba. Habaho inyoni z'umukara. Izo nyoni ziba zifite amababa y'umukara ,amaguru y'umutuku ,umunwa w'umweru. Aba afite n'amaso y'umukara. Uba ubona ari utunyoni dutoya cyane.

Ikiyoni ni kimwe mu bwoko bw'inyoni. Kiba gisa n'umukara ndetse kirimo n'ibara ry'umweru. Kigira amaso y'umukara ndetse n'umunwa wumukara. Kigira amaguru maremare ndetse n'inzara ndende na zo ziba zisa n'umukara. Ikiyoni gikunze gutwara ibintu bitandukanye, iyo biri hanze nk'amamesa, imigati ndetse n'ibiryo.

Inyoni zikunda kwibera mu biti, hari inyoni ziba zifite amababa y'umuhondo, amaso y'umuhondo, ndetse avanzemo n'umukara. Zigira amaguru maremare, asa n'umuhondo, zikunda kuvuga cyane, cyangwa se kujwigira cyane.

Inyoni zifitemo amoko menshi atandukanye, hari inyoni bita ifundi, ni akanyoni kagufiya ubona ari gatoya cyane, gafite mu maso h'umutuku gafite n'amababa agiye kumera nk'umukara, gafite amaguru magufiya. Ni akanyoni gakunze kuboneka ahantu hari impeke, nk'amasaka ibigori kaba kitonze kadatera amahane.